Amafi yo mu bwoko bwa tomusoni araryoha cyane, aho agira intungamubiri nziza cyane kandi bazijyana no ku isoko bakazicuruza, zikavugamo amafaranga bityo bakiteza imbereri.

Isambaza ziva mu mazi cyangwa mu biyaga bigari, zidufitiye akamaro cyane, aho umuntu azikoramo agasosi kakaryoha, aho umuntu azicuruza mu isoko zikamuha amafaranga menshi cyane akikenura.

Aya ni amafi baba babaze kugira ngo bayateke. Baba bayabaze bakayakuramo amahwa, barangiza bagateka inyama zonyine, kugira ngo babone intungamubiri. Bagire ubuzima bwiza.

Iyi ni indege kimwe mu bitwara abantu n' ibintu mu kirere, aho zifashishwa mu gutwara abantu zibavana mu bihugu zibajyana mu bindi, ndetse ntizitwara abantu gusa zitwara n' ibintu zibivana mu gihugu kimwe zibijyana mu kindi.

Aya mafi rero ni ikiribwa cyiza cyane, gifite intungamubiri ku buzima bw'abantu, muri rusange ku haba bana haba abantu bakuru, twese ay'amafi adufitiye akamaro, ka nini cyane.

Ifi ni ifunguro riryoha cyane, kubera yuko ifi ifite intungamubiri nyinshi cyane, turayirya tukumva turanezerewe, tuguwe neza nko kunywa agasosi kakozwe mu ifi kaba karyoshye cyane rwose, bityo tukanezerwa kubera ko twariye intungamubiri ivuye mu ifi.

Uru ni urutoki. Urutoki ni rwiza cyane kuko abaturage bakunda kuruhinga cyane, aho rubazanira amafaranga kandi rukabahereza n'ibyo kurya.

Karoti aho zeze neza cyane, aho bazisarura bakazijyana mu masoko, bakazigurisha bakabona amafaranga, bakiteza imbere.

Aya ni amasaka, aho amasaka ari ingirakamaro ku baturage. Aho bayahinga, bakayeza, bakayasarura bakayanywamo ibikoma, bagashigamo ubushera, ndetse bakanagurisha bakabona ibyo bakeneye.

Ibi ni bimwe mu biti biterwa ahantu henshi hatandukanye, nk'iyi sipure akenshi ikunze guterwa ku ngo, iyi sipure ni nziza cyane baranayicana kandi it isipure baranayubakisha.

Aya ni amajyeri. Amajyeri ni igihingwa kimwe gihingwa mu Rwanda, kikaba kituzanira amafaranga menshi, kandi amajyeri turanayarya.

Karoti zeze neza aho zitanga umusaruro ushimishije cyane, bakazijyana ku isoko bagakuramo amafaranga bakiteza imbere amafaranga akabakemurira ibibazo bafite.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, kandi ibirayi bigira amafaranga, kandi erega ibirayi biraryoha cyane, cyane cyane ibirayi ni byiza cyane biduha amafaranga, kandi tukanabirya biradutunga.

Avoka ni urubuto rwiza cyane, barya abandi si ukururya gusa banarwifashisha bakora amavuta yo mu mutwe agira umusatsi neza.

Iki ni igihingwa cy'imyumbati, aho kidufitiye akamaro kanini cyane ku buzima bwacu, aho imyumbati tuyirya, tukayikoramo ubugari, tukayirya bisanzwe, ndetse tukiyijyana no ku ishuri tukabonamo amafaranga.

Iki gihingwa cy'ibigori kidufasha mu iterambere ndetse no mu mibereho y'Abanyarwanda muri rusange, aho umuntu ahinga ibigori byakwera akaba yasarura akajyana mu rugo akabona ibitunga umuryango we, cyangwa se akaba yagurisha bityo akiteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori n'amashu ni ibihingwa abantu bakunda guhinga cyane, kubera ko bigira amafaranga, bikaba ari na ngombwa kenshi iyo babiteye mu gihe cy'izuba, bagomba kubivomerera kugira ngo bizatange umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Ubu ni ubunyobwa. Ubunyobwa ni bwiza cyane kuko bugira amafaranga menshi, kandi turanaburya bukaryoha cyane mu biryo, ndetse tukanabugurisha. Iki ni igihingwa rero abaturage bakunze guhinga kuko kigira amafaranga menshi kikanaryoha.

Ibirayi byeze neza cyane bitanga umusaruro mwinshi, ahubwo babijyana mu isoko bakabigurisha bityo bakabona amafaranga bakiteza imbere mu buzima bwabo busanzwe.

Intoryi ni igihingwa cyiza cyane, gihingwa n'abaturage benshi, aho kibatunze mu buryo bwo kukirya, ndetse no mu buryo bwo kuba bagihinga bakakigurisha, bayakuramo amafaranga, maze ayo mafaranga akabateza imbere.

Ibinyomoro ni igihingwa gikundwa cyane n'abantu benshi, kandi ni igihingwa kigira umusaruro mwinshi cyane, iki gihingwa cy'ikinyomoro rero si ibyo gusa ni urubuto rwiza cyane rwongera amaraso, kandi ni urubuto rukunda cyane kugurwa n'abantu benshi, aho uru rubuto rutwinjiriza amafaranga kandi menshi cyane.

Ibitunguru byeze neza cyane bitanga umusaruro mwinshi, aho babijyana ku isoko bakabigurisha bakabikuramo amafaranga bakiteza imbere.

Intoryi, puwavuro, indimu, imiteja, sereri, byeze neza cyane bitanga umusaruro mwinshi, aho bijyanwa ku isoko bakabigurisha, bakabikuramo amafaranga, bityo bakiteza imbere.

Ibishyimbo by'ibitonore byeze neza cyane, aho babijyana mu isoko, bakabigurisha amafaranga bagakemura ibindi bibazo bafite mu miryango yabo.

Iyi ni imiteja aho yeze neza cyane, barayirya bakayijyana no ku isoko, barangiza bagakuragamo amafaranga, bityo bakagura n'ibindi bakeneye, bakiteza imbere.

Iyi ni imyumbati bayita imiribwa iraryoha cyane, kuko abaturage bayihinga bakayirya bakanayigurisha, bakabonanamo amafaranga, bityo bakiteza imbere, bagatunga n'imiryango yabo.

Avoka ni urubuto rwiza cyane ruryoha ndetse ni urubuto rutanga amafaranga kandi rukagira n'intungamubiri zihagije.

Ibijumba bitanga umumaro mwinshi cyane, aho babirya bakabijyana ku isoko bakabigurisha bigakurarwamo amafaranga menshi cyane, bakagura ibindi bintu bitandukanye bifuza.

Iki ni igihingwa cy'ibigori abaturage bakunda cyane kandi ibigori abaturage bakunda cyane cyane kuko ibigori biraryoha kandi bakanabigurisha bagakuramo amafaranga, agakuramo igikoma cyo kunywa ndetse n'ibindi byinshi.

Ibijumba ni byiza cyane aho biri mu ifunguro ritera imbaraga, kandi bigira n'amafaranga babijyana ku isoko bakabigurisha amafaranga maze bakiteza imbere.

Ibi ni ibidodoke aho byeze neza, bigatanga umusaruro maze abantu bakabijyana ku isoko, bakabigurisha bakabonamo amafaranga ndetse bakanabirya mu rugo iwabo.

Ibi ni ibitunguru byeze neza, bitanga umusaruro mwinshi cyane, aho babirya ndetse bakanabijyana ku isoko, bakabigurisha bakuragamo amafaranga, maze bakiteza imbere.

Izi mbuto nk'amacunga, amatunda ndetse n'indimu, ni imbuto nziza cyane zituma abantu bazirya bakumva baguwe neza. Ziraryoha cyane, kandi izi mbuto zinadufitiye intungamubiri mu kuturinda indwara zitandukanye.

Iki ni igihingwa cy'ibigori bikiri mu murima bitarera, ariko ibigori ni byiza cyane kubera ko biduha umusaruro mwinshi cyane, byera tukabigurisha, tukabirya, mbese bigatuma twiteza imbere.

Icyayi ni igihingwa kimwe mu Rwanda duhinga tukagisarura, twarangiza tukakijyana mu byuma byabugenewe bakagitunganya neza, bamara kugitunganya neza kikajya hanze, cyagera hanze bityo u Rwanda tukinjizamo amafaranga menshi cyane, icyayi tugikuramo amafaranga menshi cyane, kubera ko kijya hanze kandi natwe abanyarwanda tukakifasha

Ibirayi ni igihingwa kidufitiye akamaro kenshi kenshi cyane, kubera ko ibihingwa by'ibirayi bitunze abantu benshi. Ibirayi turabirya tukabijyana ku isoko tukabicuruza, abantu benshi bagacuruza ibirayi kandi bakabaho.

Imyembe ni urubuto ruryoha cyane, aho barugurisha bagakuramo amafaranga bakikenura ibyo bakeneye, urusenda tururisha ibiryo, urusenda rutera apeti, urusenda bakarukuramo n'amafaranga.

Uru ni uurubuto rwitwa umwembe, umwembe iyo weze bitugirira akamaro, turayirya tukayijyana no ku isoko, bityo amafaranga dukuyemo akaduteza imbere.

Inyanya ni kimwe mu bihingwa byinshi bitanga umusaruro mwinshi cyane, aho inyanya iyo umuntu azihinze, akazisarura, akazigurisha, abona amafaranga menshi cyane, bityo akiteza imbere.

Iki ni igihingwa cy'ingano aho ari igihingwa cyiza cyane gikunzwe n'abantu benshi kuko gitanga n'umusaruro kikaduha n'amafaranga ndetse dukoramo n'imbada muri izi ngano. Tugakoramo n'ibikoma ndetse n'ibintu byinshi biva muri izi ngano, ingano rero uri kumva ko ari nziza cyane zidufitiye akamaro.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa abaturage bahinga cyane, kubera ko ubunyobwa buraryoha haba kubuhekenya, haba kubukaranga, ndetse ubunyobwa akamaro bufite cyane buduha amafaranga, bityo bigatuma twiteza imbere tukava mu bukene.

Umusaruro w'imiteja aho weze neza cyane, bakawujyana ku isoko bakawugurisha bakawubonamo amafaranga bakayagura ibindi bintu bikenewe, ndetse bakanayirya iyi miteja mu rugo.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa kidufasha kuva mu bukene cyane cyane aho umuntu ahinga ibirayi byakwera akabona ibyokurya, akabona n'ibyo agurisha bityo amafaranga akaza akaduteza imbere.

Iki n'igihingwa cy'ubunyobwa aho cyeze kigatanga umusaruro, barakirya bakakijyana no ku isoko, bakabonamo amafaranga bakajya kugura ibindi bintu bitandukanye, maze bakiteza imbere.

Ibishyimbo byeze neza cyane byitwa koruta, byatanze umusaruro mwiza cyane, aho babijyana mu masoko, bakabigurisha bakaha mafaranga, bakajyans kuyakoza ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ingano zeze neza cyane zitanga umusaruro mwinshi cyane. Aho bazinywamo igikoma, bakazishesha bakakuramo ubugari, bakazikuramo imbada, bakazigurisha zikubaha amafaranga.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bikunzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ,aho babihinga ,byarangiza bikera rwose bigatanga umusaruro ,barangiza bakabimanika, barabimanika kugira ngo ejo ejobundi ibyo bazajya bakeneraho, bajye bagenda barahunguraho ibyo bakeneye ,ariko baba babimanitse.

Ibi ni ibihingwa by'ibishyimbo bihingwa cyane, aho abaturage babikunda, bakabihinga bakabirya. Mbega barabirya, noneho barangiza bakanabigurisha, bakabonamo amafaranga barangiza bakaniteza imbere ariko banariye.

Aya ni amajyeri, aho bayahinga kugira ngo ababesheho, barayarya barangiza bakanayagurisha, bakabonamo amafaranga kugira ngo biteze imbere.

Amajeri ni kimwe mu bihingwa duhinga muri uru Rwanda rwacu. Amajeri tuyarya, amajeri turayagurisha tukabona amafaranga, bityo tukiteza imbere. Amajeri ni meza cyane rero atuma abanyarwanda biteza imbere.

Izi n'imiteja nziza zeze neza, abantu bakazirya bakazijyana no ku isoko, bakaguramo ibindi bintu bitandukanye maze bakiteza imbere mu miryango yabo ndetse n'aho bavuka.

Izi ni inzuzi ziva mu bihaza. Ibihaza biraryoha, ibihaza rero babikuramo izi mbuto . Imbuto zivamo umuti w'inzoka zivura mu nda cyane , kandi bakongera bakanazitera kugira ngo bazongere babone ibihaza byo kurya kandi ibihaza baranabigurisha.

Ibingibi ni ibishyimbo bishingirirwa, aho biba bikiri bitoya, byatangira kunaga amajosi, bakabishingirira kugira ngo bizere neza, bityo bitange umusaruro mwiza.

Izi ni ingano, ingano ni kimwe mu binyampeke bidufitiye intungamubiri nyishi cyane, kubera ko ingano tuzinywamo igikoma, zitekwamo ubugari, ingano tuzitekamo imbada, imbada ziraryoha cyane, ni yo mpamvu ingano ari nziza cyane ku buzima bwacu.

Amasaka ni meza cyane aho atanga umusaruro mwinshi, bayanywamo igikoma ndetse bakanagurisha bakabonamo amafaranga, bakagura n'ibindi bintu byiza bitandukanye bifuza.

Ubuvuzi ni bwiza cyane, budufitiye n'akamaro kanini cyane, aho abantu biga ubuvuzi bakavura amatungo bakavura inyamaswa, bityo zigasubira mu buzima busanzwe.

Ubu ni ubworozi bw'inka aho bororera mu rugo kandi bugatanga umusaruro mwinshi, cyane cyane nko kuba zikamwa amata ndetse bakayajyana ku isoko ndetse nazo zitanga amafaranga abantu bakitezaga imbere.

Aya ni amatungo yitwa ingurube, ingurube ni itungo ryororoka vuba cyane aho usanga ingurube imwe ishobora kubyara nko mu byana icumi, ubwo ingurube imwe ibyaye ibyana icumi nawe uba uri kunguka. Ingurube rero ni itungo ryiza cyane rituzanira amafaranga kandi menshi.

Ubuvuzi bw'amatungo burakenewe cyane, kubera ko iyo umuntu yoroye ingurube, inkoko n'andi matungo atandukanye tuba dukeneye imiti. Hari igihe zirwara, zarwara tugashaka abaganga bazo bakaduha imiti, hanyuma zikavurwa hanyuma zigakira bityo zigatanga umusaruro.

Izi nyamaswa zo mu ishyamba ni inyamaswa nziza cyane kubera ko ba mukerarugendo baraza bakaduha amadovize, u Rwanda rwacu rugatera imbere kubera izi nyamaswa baza kureba mu birunga ndetse no mu misozi migari.

Inyamaswa zo mu gasozi harimo n'inyoni, izi nyamaswa ni nziza cyane kubera ko ba mukerarugendo baraza bakazireba, zikabashimisha cyane hanyuma bakajya bahora bagaruka, kandi uko bahora bagaruka ni ko bishyura amadevize hanyuma igihugu cyacu kigatera imbere, kubera izi nyamaswa zo mu gasozi.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa zikunzwe n'abazungu, aho baza kuzireba muri za pariki nasiyonali, bakaza bakishyura amadovize, hanyuma bakareba ibyiza bitatse u Rwanda harimo nk'inkende.

Izi nyoni zifite ubuhanga bukomeye cyane, kubera ko zibasha kwiyubakira inzu zituramo ndetse zikanabyariramo, kandi zikajya guhigira n'ibyana byazo nta kibazo kibayeho. Izi nyoni rero ziba mu ishyamba ni nziza cyane, kuko na ba mukerarugendo baraza bakazireba bakaduha amadevize.

Inyoni ni nziza cyane, bamukerarugendo baza kuzireba bakaduha amadovize nk'igihugu kigatera imbere ndetse n'abaturage muri rusange, uri kumva inyoni ni nziza cyane zidufitiye akamaro kanini cyane.

Icyanira kimwe mu bwoko bw'inyoni ziguruka mu kirere, aho usanga ziba mu mashyamba no mu biti, kandi zikunda kuza mu baturage zikabatwarira inkoko.

Izi ni inyamaswa zikunzwe cyane, muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, aho ziba ziri mu mapariki atandukanye hirya no hino mu biyaga bigari, aho ba mukerarugendo bajya baza bakazisura, bityo zikinjiza amadovize menshi cyane, igihugu kikiteza imbere.

Inyamaswa ni nziza cyane kubera ko zitwinjiriza amafaranga, abanyamahanga baraza bakihera amadovize kubera izi nyamaswa zacu nziza cyane, izi nyamaswa yo kumva ko zifitiye akamaro, igihugu cy'u Twanda kubera yuko ba mukerarugendo baza baje kuzishaka.

Ni ubwoko bw'inyoni, inyoni yitwa nyirabarazana, ikunda kuguruka, ndetse iba mu giti, ikagira n'icyari, ikubaka n'urwari runini ibamo, iyi nyirabarazana rero iranaryoha kuko barayica bakayirya, kandi inaryoheye n'ijisho abantu baraza bakayireba...

Inyoni ni nziza cyane aho zidukururira ba mukerarugendo bakaza kuzireba, bityo bakaduha amadovize, agateza imbere Igihugu cyacu.